Umwana uri muri salo iwabo mu ntebe, ashobora kuba yiga mu mashuri abanza, yitwikiriye agatambaro k'intebe zo muri salon, aritwara neza ngo arye agafoto.

Umuziki ugezweho mu njyana zigezweho, ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga, harimo inanga, na sente. Byose bifasha kugira ngo umuziki ugende neza kandi ...

Abanyeshuri bari kwiga bakoresheje ikoranabuhanga bambaye udupfukamunwa ,imbere yabo hari kompiyuta zizwi nka desikitopu bambaye imipira y'umuhondo nka iniforume, ndetse barahugurana ku cyo umwe abona yumvise kurusha mugenzi we.

Laboratwari aho abanyeshuri bari kwiga bagafashwa n'umwarimu gukora ubushakashatsi bushingiye kuri siyanse ,aha ni muri labo bari gukoresha ibikoresho bitandukanye bishobora gutuma bagira puresiziyo.

Abanyeshuri mu mashuri y'isumbuye bari mubizamini bambaye iniforome hejuru bambaye ishati y'umweru, hasi n'ijipo y'umutuku, amasogisi y'umweru, inkweto z'umukara bicaye ku ntebe z'ishuri barakora ikizami.

Abubatsi kushansiye bambaye ibikoresho by'akazi n'itaburiyama, agapfukamunwa, n' ingofero yo mumutwe, bari gukora umurimo wabo neza kandi barashishikaye kugirango akazi kaze kugenda neza.

Abubatsi bari kubaka urupagu cyangwa korotire, bakoresheje amatafari na sima, bambaye ibisurubeti, bakambara ingofero mu mutwe, ndetse bakaba bafite umwiko mu ntoki, nk'igikoresho cy'ibanze kugira ngo babashe gukora kano kazi.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari muri Pulatiki aribyo bizwi nko gushyira mu bikorwa ibyo biga amasomo yabo, aho buri wese ari kugaragaza ibyo yakoze n'undi agasobanura impamvu y'ibyo yakoze.

Ubukanishi bw'ibyuma bitandukanye. Uwubikanika yambaye igisurubeti nk'umwambaro umufasha gukora neza akazi ke, kandi atagize ibimubangamira. Yambaye na ga mu ntoki ari kureba ibyuma uko bimeze kugirango amenye aho arabihera.

Abanyeshuri bari ku ishuri bakaba bahuriye ku meza, bari kurya ifunguro ryabo rya saa sita, iryo funguro rikaba rifite imbuto ari zo imineke, ni imineke bari kuyitwereka kandi ku meza yabo hariho amata y'inyange no ku masahani yabo hariho ibiryo by'umuceri n'imboga.

Abanyeshuri barimo kwiga ikoranabuhanga ,imbere yabo hari mudasobwa cyangwa kompiyuta ya desikitopu aho umwe ari gukoresha imashini, abandi bakitegereza uburyo ayikoreshamo.

Abana b'abakobwa bari mu gikoni, bari gutegura amafunguro, mu buryo bugezweho, aho bareba ko ibyo bateka nta mwanda urimo, ndetse bakumva ko harimo umunyu, kugira ngo abo babiha baze kuba bamerewe neza.

Abanyeshuri barimo bari kwiga ikoranabuhanga bakoresheje mudasobwa zo mu bwoko bwa Hp, undi agakoresha desikitopo. Bambaye iniforume. Hasi ni umukara, hejuru ni umweru na karuvati zirimo amabara y'umukara n'umweru.

Bife y'ibyo kurya iriho meni zitandukanye ikagira na salade ,aho abatetsi cyangwa se abo gufasha kwarura ibiryo bari gukurikirana ngo barebe uko bimeze bakore neza kandi ko abakiriya baza kwishima

Abantu bari mu bukerarugendo, hanyuma bakarebesha kamera zibafasha kureba kure, inyamaswa cyangwa ibindi bintu byose bya biri muri pariki. Mu buryo butuma ubukerarugendo bwabo bugenda neza.

Abanyeshuri bari kwiga ikoranabuhanga bafite laputopu, bambaye amashati y'umweru hasi ni amajipo n'amapantaro bya kaki, barahuze cyane kuko bakurikiranye amasomo kuri mudasobwa zabo.